Ndabona umugore n'umugabo bari mu icyumba kimeze nk'ik'inama, umugore agaragaza isura isa n'ifite igitekerezo gikomeye cyangwa utishimiye ikintu mu gihe umugabo amutega amatwi, hari abandi bantu murya inyuma bamwe basa n'abavugana, abandi bari mu myanya yabo ahantu bari hasa n'ateguwe neza mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa ibiganiro by'ingenzi.